Mu bituma uburezi bugenda neza umwana akabasha kwiga neza uko bikwiye, ni uko ahabwa ikiruhuko rimwe na rimwe akabona n'imikino ituma aruhura ubwonko. Inyubako nini irimo abanyeshuri bambaye impuzankano.

Ubutaka bunini cyane burimo ibikorwa bitandukanye amazu, abana bambaye impuzankano bicaye ku mugezi, insina nyinshi cyane, ibiti byinshi cyane bidufasha kuduha umwuka duhumeka.

Twese duhe agaciro kwiga kuko bifite akamaro kuva ku mwana wese ukiri mutoya. Inyubako nini cyane irimo abana bicaye kumukeka bambaye imyenda y'umuhondo, umutuku n'ubururu bari kumwe n'umurezi wabo.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu aho umwana asigaye avuka bagahita bamutangiza ishuri nk'inyubako nini cyane irimo abana batoya bambaye impuzankano ubururu n'umukara bicaye ku ntebe bari hagati yameza.

Uburezi bukomeje guhabwa agaciro mu gihugu cyacu, aho umwana mutoya amara kumenya ubwenge agatangira kujya mu ishuri. Inyubako nini cyane irimo abanyeshuri bambaye impuzankano bicaye ku ntebe z'ubururu n'iz'icyatsi.

Uburezi bukomeje gusakara hose no guhabwa agaciro. Ubutaka bunini burimo inyubako nyinshi cyane. Abanyeshuri bambaye impuzankano umuhondo n'icyatsi, bakina mu gihe batari mu ishuri.

Uburezi bukomeje kwiyongera mu gihugu cyacu, ndetse n'agaciro kakaba kenshi, inyubako nini cyane irimo abanyeshuri bambaye impuzankano y'ubururu n'umweru, n'inzu iriho ikibaho cy'umukara.

Ni byiza kunoza imivugire y'ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'imisomere y'ikinyarwanda, ishuri rinini ririmo abana batoya, bambaye impuzankano bari kureba mu bitabo basoma banareba amashusho.

Amashuri y'inshuke afite akamaro kuko iyo umwana umujyanye mu ishuri ry'inshuke azamuka neza kandi byorohera umubyeyi uba yakurikirana imirimo ye, ubutaka bunini cyane burimo umurezi uri kumwe n'abanyeshuri bambaye umuhondo n'umukara.

Muze twese dutoze abana bakiri batoya gukunda ishuri, kuko iyo umwana azamutse afite ubumenyi biba byiza cyane, inyubako nini irimo abana b'incuke bafite amata bari kunywa bari kumwe n'umurezi wabo.

Twese duha agaciro uburezi kuko budufitiye akamaro nk'ishuri rinini cyane ririmo abana benshi cyane bambaye impuzankano z'umuhondo n'iz'umukara bafite imfashanyigisho, ibitabo, basoma, banareba amashusho.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu, aho umwana mutoya amenya ubwenge agahita ajya mu ishuri. Ikibuga kinini cyane kirimo abanyeshuri bambaye impuzankano y'ubururu, kirimo n'ikigega cy'umukara.

Kwiga bikomeje gutera imbere mu gihugu cyacu, ubutaka bunini cyane burimo inyubako nyinshi cyane, abanyeshuri bambaye impuzankano bahetse amakayi, bambaye ubururu na kaki bajya mu ishuri.

Iterambere ry'igihugu rimaze kwiyongera, kuko ibikorwa remezo bimaze kuba byinshi cyane. Nk'ubutaka bunini, burimo, umuhanda mugari, bwubatsemo inyubako y'abanyeshuri, urusengero, abanyeshuri bambaye impuzankano. Ubururu n'umweru bataha.

Kwiga bimaze gutera imbere aho umwana asigaye avuka yamenya ubwenge bagahita bamutangiza ishuri kugira ngo azamukane ubumenyi bwinshi. Ubutaka bunini cyane burimo inyubako n'abanyeshuri bambaye impuzankano, ubururu na kaki.

Kwiga dukomeze tubihe agaciro kuko bidufitiye akamaro aho turi hose. Ubutaka bunini cyane burimo inyubako y'abanyeshuri, inzugi z'icyatsi, umunyeshuri wambaye impuzankano y'ubururu na kaki n'inkweto z'icyatsi.

Ubutaka bunini cyane burimo umuhanda mwiza kandi mugari, abantu bari kugenda bambaye impuzankano bajya ku ishuri, inyubako nini cyane iriho amabati y'ubururu n'ibiti biyakikije byinshi cyane.

Ubutaka bunini cyane buriho inyubako yubatse neza cyane, inzu yubakishije amatafari ahiye ifite inzugi z'umutuku n'amadirishya y'umutuku n'amabati y'umutuku, mu butaka harimo abanyeshuri bambaye impuzankano y'ubururu n'umweru.

Kugira ngo uburezi bukwirakwire mu banyeshuri neza, tugomba kuba dufite ibikoresho bihagije kugira ngo basobanukirwe neza ibyo tubigisha. Inyubako nini cyane irimo umurezi, afite ingwa z'umweru n'iz'umuhondo n'iz'ubururu zirambitse ku ntebe.

Inyubako nini cyane irimo intebe zo kwicaraho nyinshi cyane, sima y'umukara n'ikijerekani bavomesha igihe bari mu gihe cy'amasuku.

Ubutaka bunini cyane bwubatswemo inyubako nini cyane, irimo abanyeshuri bambaye impuzankano, umurezi wambaye imyenda y'umukara, bakina mu gihe cyo kuruhuka.

Ubuzima bwacu tugomba kububungabunga kugira ngo bukomeze bugire ireme rimeze neza, inyubako yubakishije amatafari ahiye iriho icyapa cy'ubururu n'umweru, hariho ibimenyetso by'indwara.

Isomo ry'imibare riri ni rimwe mu masomo afite akamaro kuri twebwe, kuko imibare idufasha mu buryo bwinshi nko kubara amafaranga, ku kwandika ikintu runaka, ikibaho cy'umukara kiriho imibare myinshi.

Bimwe mu bituma ubwenge bwiyongera mu gihe turi ku ishuri ni uko tubona imfashanyigisho nk'ibitabo kuko bidufasha gusobanukirwa neza aho tutumvishe, ameza manini ariho ibitabo bitatu.

Ubutaka bunini cyane bwubatswemo inzu nini cyane ifite amarangi y'umweru, purafu y'umutuku, amadirishya y'umweru, irimo ameza, iriho igitambaro cy'ubururu n'intebe bicaraho.

Twese dukunde ikoranabuhanga turyige tubishyizeho umwete kuko ridufitiye akamaro, yaba aho dutuye, yaba aho dukora, muze twese turihe agaciro, inyubako nini cyane ishushanyijeho mudasobwa, amabara y'icyatsi.

Uburezi bukomeje kugira agaciro mu mugihugu cyacu, ubutaka bunini cyane buriho inyubako yamashuri ifite amarangi yumuhondo, amadirishya yicyatsi, nabanyeshuri bambaye impuzankano yubururu bari mukibuga.

Ikoranabuhanga rikomeje gutera imbere mu gihugu cyacu, ndetse n'uburezi bukomeje guhabwa agaciro. Inyubako irimo ishuri, harimo n'abanyeshuri bambaye impuzankano, ikibaho cyanditseho imibare.

Inyubako nini cyane y'abanyeshuri irimo intebe bicaraho iyo bari kwiga harimo n'amakaye bandikiraho igihe biga, bambaye impuzankano y'ubururu na kaki, umwana ufite isahani y'ubururu ariraraho.

Inyubako nini y'amadirishya ya kaki, irimo intebe nyinshi, abanyeshuri bambaye impuzankano abahungu n'abakobwa, ubururu, abahungu kaki, bari gusoma ibitabo bareba umwana uri kurira.

Uburezi bukomeje guhabwa agaciro muri rusange nk'inyubako nini cyane, yigamo abanyeshuri ifite ikibaho cy'umukara gifasha umwarimu mu gihe yigisha, akandika kugira ngo abanyeshuri basobanukirwe neza.

Uburezi bukomeje gutera intambwe nziza cyane mu mugihugu cyacu cy'u Rwanda, aho buri wese asigaye azi gusoma no kwandika. Inyubako nini cyane irimo abanyeshuri bambaye impuzankano y'ubururu, inyubako ifite amabati atukura.

Kwiga bikomeje gutera imbere mu gihugu cyacu. Ubutaka bunini cyane bwubatsemo inyubako y'abanyeshuri, abanyeshuri bari gukina bambaye impuzankano bahetse n'amakayi.

Inyubako nini cyane yateganyirijwe abanyeshuri, irimo amarangi y'umukara n'umuhondo, intebe nyinshi zo kwicaraho, akabati babikamo ibikoresho igihe batari kwiga.

Kwiga bikomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nini cyane ifite inzugi z'icyatsi, irimo n'abanyeshuri benshi cyane abahungu n'abakobwa, bambaye impuzankano.

Uburezi bukomeje guhabwa agaciro mu gihugu cyacu aho umwana mutoya bamutoza gusoma no kwandika no kuvuga ururimi rwiza akiri mutoya, inyubako nini irimo abanyeshuri bambaye impuzankano abahungu n'abakobwa barimo bandika banasoma ibitabo.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umuhanda usashwemo amabuye uhagazeho abanyeshuri bambaye impuzankano bamwe bahetse ibikapu abandi nta bikapu bafite, ikigo giherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye.

Umuhanda urimo abanyeshuri benshi cyane abakobwa n'abahungu bambaye impuzankano z'ubururu n'umweru bafite icyapa cyerekana aho bagiye.

Ubutaka bunini cyane burimo ibiti birebire n'ibitoya, birimo ubusitani bwiza cyane, birimo indabo z'umuhondo, ibara ry'ubururu riri ku cyapa ndetse na Bikira Mariya.

Inyubako nini cyane, yubatswe mu buryo bwiza cyane, ifite amarange y'umweru, amatara ari kwaka ameze neza, irimo abantu benshi cyane bambaye impuzankano, abakobwa n'abahungu.

Uburezi bukomeje gutera intambwe mu gihugu cyacu. Inyubako nini cyane irimo imfashanyigisho nyinshi, intebe abanyeshuri bicaraho iyo biga n'ibitabo basoma kugira ngo ubumenyi buze ari bwinshi.

Ikirangantego kiba cyiza kuko kidufasha kigatuma tutayoba igihe tuhagiye, inyubako nziza cyane iriho ikirangantego cy'ishuri riri mu bururu, umukara n'umweru.

Uburezi bikomeje gutera imbere mu mugi cyacu, ubutaka bunini cyane burimo inyubako nyinshi y'amashuri, ubusitani bwiza cyane burimo indabo z'umuhondo n'iz'icyatsi, abarezi bahagaze hanze n'umunyeshuri wambaye impuzankano.

Inyubako nini cyane irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, byinshi: ameza, intebe, abanyeshuri bambaye impuzankano: iz'umweru n'umukara, n'ubururu n'umukara bari kuri mudasobwa bongera ubumenyi.

Icyumba kinini cyicawemo n'abantu batanu bari kureba imbere. Ku meza hari mudasobwa, zimwe ziri kwaka izindi zijimije. Amatara y'umweru, amadirishya afunguye, ameza manini.

Kwiga bikomeje guhabwa agaciro mu gihugu muze twese dukunde kwiga. Ubutaka bunini cyane burimo abanyeshuri bambaye impuzankano, umweru n'ubururu bari guhabwa amabwiriza n'umunyeshuri.

Ubutaka bunini burimo inyubako yubatse neza cyane hariho ikirangantego cy'ishuri, ibara ry'ubururu n'iry'umutuku n'umuhondo n'ibara ry'umukara.

Uburezi bukomeje guhabwa agaciro mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho inyubako nziza z'abanyeshuri, zubatse mu buryo bukomeye, zifite amarangi y'umuhondo n'imbere harimo intebe bicaraho n'ikibaho cy'icyatsi.

Ubutaka bunini cyane burimo ikibuga kinini cyane gikinirwamo umukino w'amaguru, harimo abantu benshi cyane bambaye iniforume, abagabo bambaye imipira y'umutuku n'abagore iy'umuhondo, abana bambaye iyu'bururu.

Bukomeje guhabwa agaciro mu mugihugu cyacu, aho umwana mutoya avuka akamenya ubwenge agahita atangira kwiga, ishuri rinini cyane ririmo abanyeshuri bambaye impuzankano y'ubururu, ikibaho cy'umukara n'amadirishya y'ubururu.

Ishuri rinini cyane, ririmo abantu benshi cyane, bambaye impuzankano, abahungu n'abakobwa, ishuri ryubakishije inzugi z'umuhondo n'amadirishya y'umuhondo, bambaye n'inkweto z'umukara.

Ubutaka bunini cyane burimo ibikorwaremezo bitandukanye nk'imihanda myiza, amazu meza ageretse, ubusitani bunini cyane burimo ibiti byiza biduha umwuka duhumeka ubuzima bwacu bukagenda neza cyane.

Imirimo y'amaboko iba myiza cyane kuko idufasha kubona umusaruro mwinshi cyane binyuze mu byo dukoze. Nk'inyubako nini cyane irimo imashini, umunyeshuri wambaye impuzankano, ari kwiga kudoda imyenda.

Kwiga ni uguhozaho, ubutaka bunini cyane buririmo abanyeshuri benshi cyane, abahungu n'abakobwa bambaye impuzankano y'umweru n'umukara, inyubako iriho abarezi benshi cyane.

Ubuyobozi bwacu bukomeje gushyigikira ubumenyi muri rusange, inyubako nini cyane irimo ishuri, abanyeshuri bambaye impuzankano umweru na kaki, umurezi wambaye itaburiya y'umweru n'amadirishya y'icyatsi.

Ikibuga cyicaweho abahungu n'abakobwa abandi bahagaze. Umuntu ufashe ihene yo mu kiziriko, bambaye udupfukamunwa mu kibuga hatewemo intebe, iruhande hari ibiti bikikije ikibuga.

Inyubako nziza cyane iri ku butaka buhagije, iriho ibara ry'umweru, umuhondo, amadirishya y'umukara n'amatafari y'umuhondo n'amabati y'umutuku.

U Rwanda rukomeje gutera imbere mu buryo bw'iterambere. Umuhanda mugari urimo abanyeshuri bambaye impuzankano bahetse ibikapu mu mugongo. Umugore ugeze impande y'icyapa inyuma hari imodoka ifite ibara ry'umweru. Inyubako nini zifite amarangi y'umweru.

Igihugu cyacu gikomeje gutera imbere kuko ibikorwa remezo byiyongera buri munsi, umuhanda mugari cyane w'umukara urimo amabara y'umweru, imodoka zitwara abanyeshuri isa n'umweru n'ibyatsi byinshi cyane.

Muze twese dukunde isomo ry'imibare kuko ridufasha muri byinshi cyane, yaba mu kubara amafaranga cyangwa ibikorwa turimo. Inyubako nini cyane irimo ikibaho cy'umukara handitseho imibare. Iteye irangi ry'umuhondo.

Inyubako nini cyane yubatswe mu buryo bwiza cyane, iteye irangi ry'umuhondo urimo ikibaho cy'umukara, umurezi wambaye ikanzu y'umweru, abanyeshuri bamukurikiye bambaye n'impuzankano.

Imirimo y'amaboko ifite akamaro gakomeye cyane kuko bimwe mu byo dukoresha amaboko bidufasha mu gukora ibintu byinshi, nk'inyubako y'abanyeshuri irimo intebe nziza cyane, sima y'umweru.

Imyidagaduro na yo ikomeje guhabwa agaciro mu gihugu cyacu, kuko bidufitiye akamaro, mu mubiri wacu bituma tugorora umubiri. Inyubako nini cyane, irimo ikibuga gikinirwamo imikino y'amaboko, ni inyubako nziza cyane.

Ubutaka bunini cyane burimo inyubako nini cyane isakaje amabati y'umweru, inzugi z'ubururu n'amadirishya y'ubururu, hariho abanyeshuri bambaye impuzankano hariho n'ubusitani bwiza cyane.

Ikoranabuhanga rikomeje kwiyongera, yaba mu baturage, yaba mu banyeshuri, muze twese dukunde kwiga, nk'inyubako nini cyane irimo abanyeshuri bambaye impuzankano, bafite mudasobwa n'amazi yo kunywa igihe bagize inyota.

Ubutaka bunini cyane burimo ibikorwa remezo, umuhanda mwiza cyane wubatse muburyo bukomeye, ubusitani bwiza cyane burimo indabo z'umuhondo, intebe z'ubururu n'umuhondo baruhukiraho n'igipangu kirekire cyane.

Twese duha agaciro kwiga kuko bidufitiye akamaro igihe kizaza. Inyubako nini cyane irimo abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye, abahungu n'abakobwa bambaye impuzankano y'ubururu na kaki n'amasogisi y'umweru.

Kugorora umubiri ni byiza cyane kuko bituma na byo umubiri umera neza n'amaraso akagenda neza, ubutaka bunini cyane bwubatsemo ikibuga gikinirwamo imikino y'amaboko gikikijwe n'ibiti byinshi cyane birebire n'ibigufiya.

Umuhanda munini cyane urimo ibyiciro bitandukanye aho imodoka zinyura, amagare anyura ndetse n'abagenzi, urimo abanyeshuri bambaye impuzankano y'ubururu n'umukara, ukikijwe n'ibiti byiza cyane, indabo z'umutuku.

Uburezi bukomeje kwiyongera mu gihugu cyacu, aho buri wese aba yifuza kumenya muri rusange, ubutaka bunini cyane buriho inyubako nyinshi nziza, ibiti bidukikije biduha umwuka mwiza duhumeka kugira ubuzima bwacu bugende neza.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho buri wese asigaye azi gusoma no kwandika. Ubutaka bunini cyane burimo inyubako nyinshi ziriho ibara ry'icyatsi, ubusitani bwiza cyane burimo indabo z'umuhondo.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu, aho hirya no hino usanga uburezi buri imbere cyane, inyubako nini cyane irimo abanyeshuri bambaye impuzankano, imbere yabo hari umurezi wabo ari kubabwira, inyubako nini cyane ibakikije, inzugi z'ubururu.

Muze twese dukunde kwiga kuko bifite akamaro yaba aho tuba, yaba aho tujya, yaba mu byo dukora byose uburezi ni bwiza muri rusange. Inyubako nini cyane irimo abanyeshuri bambaye impuzankano bari kwiga abandi bari gukora imyitozo.

Twese duha agaciro uburezi kuko budufitiye akamaro kanini cyane, inyubako y'abanyeshuri, iteye irangi ry'umuhondo, irimo ikibaho cy'umukara, yanditseho mu ibara ry'umweru, abanyeshuri bicaye.

Kugira ngo ubumenyi butambutswe neza n'ababwakira babwakire neza, inyubako nini cyane irimo intebe zateganyirijwe abanyeshuri kwicaramo igihe biga, irimo sima y'umukara.

Ubutaka bunini cyane burimo inyubako yubatswe mu buryo bwiza cyane igeretse kabiri, ifite irangi ry'ubururu n'amadirishya y'icyatsi, irimo ubusitani bwiza cyane, burimo indabo ndende ndetse n'iz'icyatsi.

Uburezi bukomeje guhabwa agaciro, mu gihugu, cy'u Rwanda. Ubutaka bunini cyane, burimo umuhanda mugari, ndetse n'isuku nyinshi cyane n'abanyeshuri bambaye impuzankano n'abari gukora isuku ndetse n'abarezi babo.

Ikoranabuhanga rikomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ni inyubako nini cyane yubatswe mu mabara meza cyane n'amatafari meza cyane harimo ibyuma bisa n'umweru, abantu bambaye imyenda y'ubururu n'iy'umutuku.

Ubutaka bunini cyane burimo ibikorwa byiza cyane, imihanda myiza cyane y'umukara n'umweru, abanyeshuri bambaye impuzankano y'ubururu n'umukara n'ingofero z'umweru, inyubako ifite amabati y'ubururu.

Muze twese duharanire kugira isuku yaba aho tuba cyangwa aho twiga cyangwa tugenda. Ubutaka bunini cyane burimo inyubako y'amashuri, ubusitani bwiza cyane, ikibuga gikinirwamo imikino y'amaboko n'umunyeshuri wambaye impuzankano.

Muze twese duharanire kwiga kuko bidufitiye akamaro muri rusange. Ubutaka bunini cyane burimo umuhanda mugari, inyubako zibukikije n'ibiti byinshi cyane biteye munsi y'umuhanda n'abanyeshuri bambaye impuzankano bagenda.

Ikoranabuhanga rimaze gusakara mu banyeshuri muri rusange kandi rimaze guteza imbere abarigana, inyubako nini cyane irimo abanyeshuri benshi cyane, bambaye impuzankano bari kuri mudasobwa bari kongera ubumenyi.

Uburezi bukomeje guhabwa agaciro mu gihugu cyacu, ubutaka bunini cyane burimo abanyeshuri benshi batandukanye, abahungu n'abakobwa ndetse n'abarezi babo, abanyeshuri bambaye impuzankano z'ubururu n'umukara n'inyubako zibakikije bafatiramo ubumenyi.

Iterambere ry'igihugu rikomeje kwiyongera, kuko biduha ibikorwa remezo nk'imihanda myiza, amazu meza n'butaka bunini burimo umuhanda wumukara, amabara y'umweru, abanyeshuri bawugendamo bambaye impuzankano y'ubururu na kaki n'inyubako nziza cyane.

Icyumba kinini kirimo intebe, ikibaho gifite ibara ry'umukara cyandikishijweho ingwa y'umweru, igipapuro kimanitsemo cy'imfashanyigisho, ameza ariho ibitabo.

Umuhanda mugari ushashwemo amabuye harimo icyuma gifite ibara ry'umutuku, haraguru hari inyubako nziza ifite irange ry'umweru ku madirishya, amabuye yubakishije igipangu, amatafari ahiye.

Uburezi bufite ireme bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umuhanda munini urimo abanyeshuri bambaye impuzankano, amashati y'umweru, umwe afite ikayi mu ntoki. Hepfo hari ubusitani burimo ibiti birebire.

Isuku igira isoko; muze twese duharanire kugira isuku, ubutaka bunini cyane buriho ubusitani bwiza cyane, ibiti birimo byumye n'inyubako iriho aho bakarabira intoki.

Inyubako nini cyane irimo imfashanyigisho, ibitabo by'ubururu, umutuku, umuhondo, umukara, umuntu urimo asoma igitabo cy'umweru, akabati kanini cyane.

Ubutaka bunini cyane bwubatsemo amashuri afite n'igipangu cy'ubururu, amatafari y'umuhondo, igiti gishinze mu butaka, inyubako izengurutswe n'ibiti binini cyane.

Iterambere rikomeje kwiyongera mu gihugu cyacu, aho ibigo by'amashuri bisigaye byubatswe neza cyane, inyubako ifite igipangu cy'ubururu, hariho ubusitani bwiza cyane, burimo indabo z'umuhondo n'abanyeshuri bambaye impuzankano.

Uburezi bukomeje kwiyongera muri rusange, inyubako nini cyane yubakishijwe amatafari, isakaje amabati, irimo abanyeshuri benshi cyane, abahungu n'abakobwa bambaye impuzankano bafite amakayi bari kwiga.

Igihugu cyacu cy'u Rwanda gikomeje gutera imbere aho buri wese asigaye ajya ahantu atavunitse bitewe n'ibikorwa remezo bikomeje kwiyongera, ubutaka bunini cyane buriho abantu benshi bambaye imyenda y'icyatsi bagiye kujya mu modoka.

Inyubako nziza cyane irimo abantu bagiye batandukanye, abagabo n'abagore bafite amazi yo kunywa, amarido y'ubururu ndetse n'intebe z'icyatsi.

Ubutaka bunini cyane bwubatsemo inyubako nini, ifite amarange y'umuhondo inzugi z'icyatsi, amabati y'umutuku, ariho ubusitani bwiza cyane, burimo ibyatsi bigufiya.

Imyidagaduro ikomeje guhabwa agaciro mu gihugu, ubutaka bunini cyane burimo ikibuga gikinirwamo imikino y'amaguru n'iy'amaboko harimo ubusitani bwiza burimo ibiti birebire, indabyo nziza cyane z'umuhondo n'iz'icyatsi.

Ubutaka bunini cyane, bwubatsemo ikibuga cyiza gikinirwamo imikino y'amaboko isa n'umuhondo, ibiti byiza bikikije icyo kibuga, ibirebire, ibibyibushye n'ibitoya, bitanga umwuka mwiza igihe bakina.

Isuku ni ingenzi ku mibiri yacu twese duhe agaciro gukaraba n'amazi meza n'isabune. Inyubako nini cyane irimo imigezi myinshi cyane iteganyirijwe gukorerwamo isuku irimo amakaro y'umweru.

Ikoranabuhanga rikomeje gutera imbere kandi n'ubuyobozi nabwo bukomeje gushyigikira ko abantu bose barimenya, ni inyubako nini cyane irimo umuntu wambaye umukara n'ishati y'umuhondo ari kwigisha ibyiza by'ikoranabuhanga.

Inyubako nini cyane yubatswe mu buryo bumeze neza, ifite amarangi y'umweru, ifite parafo y'umutuku, amarido y'ubururu, arimo intebe nyinshi cyane zigiye zitandukanye, zifite amabara y'umuhondo n'ameza yo kwandikiraho y'umweru.

Ubusitani bwiza burimo ibiti, indabo hari inyubako igeretse gatatu, itewe amarange y'umweru, ku madirishya hari ibara ry'umukara, hasakajwe amabati y'umweru.

Ubusitani bwiza, bunini burimo ibiti bikuze, bifite amashami meza, munsi yaho hicayemo abantu babiri ku ntebe. Icyuma gitwara umuriro w'amashanyarazi, iruhande hari umuhanda mwiza, urimo amabuye.

Twese duharanire kugira isuku kuko ari ingirakamaro muri rusange, inyubako nini cyane iri iteye irangi ry'umuhondo akabati kariho ububido, inkweto z'umweru niiz'umukara biri mu kabati.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu, ubutaka bunini cyane burimo inyubako y'amashuri n'ibikoresho bakoresha bakora isuku, ikikijwe n'ibiti binini cyane bibafasha kubona umwuka bahumeka.

Abishyize hamwe, ntakibananira. Muze dukorere hamwe, bizatuma tugera ku byo twifuza kuba bo. Inzu nini cyane, irimo abantu benshi, abambaye icyatsi, abambaye umweru, bari kuganira.

Uburezi bukomeje gutera intambwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho inyubako nini cyane, irimo urujya n'uruza rw'abantu benshi, abambaye imikara n'imituku, bari kuganira bungurana ubumenyi ku bijyanye n'amasomo.

Ikoranabuhanga rikomeje kwiyongera rihabwa n'agaciro muri rusange, inyubako yubakishijwe amatafari meza cyane ifite amabara y'ubururu, irimo abantu bari kuri mudasobwa, abambaye imyeru, n'abambaye imikara.

Twese duharanire kugira isuku yaba aho tuba, cyangwa ngo dukora, cyangwa aho tugenda kuko ari ingirakamaro kuri twebwe, inyubako nziza cyane yubatse neza irimo ibikoresho byiza cyane intebe nziza n'ameza.

Inyubako nini cyane isa neza, ifite amarangi y'umweru, irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye, abantu benshi bambaye amakanzu y'umweru bari mu bushakashatsi.

Inyubako nini cyane yubatswe mu buryo bwiza cyane, ifite amarangi y'umweru, amatara abona neza, irimo ameza, intebe z'ubururu, abantu batandukanye bafite Mudasobwa nyinshi.

Uburezi bukomeje kugira agaciro mu gihugu cyacu, nk'inyubako nini cyane irimo abantu bagiye batandukanye, abagabo n'abagore n'umuyobozi uri kubabwira uko gahunda zimeze, bafite ibitabo by'umweru.

Ubutaka bunini cyane bwubatsemo inyubako y'ishuri rikuru ry'u Rwanda rifite ubusitani bwiza cyane, burimo indabo z'umutuku, iz'icyatsi harimo n'abantu bambaye umweru n'umukara na kaki.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu mabara meza cyane ay'umweru, aya kaki irimo abantu batatu bambaye imyenda y'imyeru bari mubushakashatsi bw'uburyo umuntu yabona...

Ibidukikije bidufitiye akamaro, nk'ibiti kuko biduha umwuka duhumeka umubiri wacu ukagenda neza. Ubutaka bunini burimo umuhanda mugari, inyubako nziza ihagazeho abantu benshi cyane n'imodoka y'umukara n'umweru.

Ishuri rikuru ry'u Rwanda, rikomeje gutera imbere, aho bafite inyubako nziza cyane, igeretse inshuro eshanu, ku butaka bunini cyane, ibiti byiza biduha umwuka duhumeka, igihe turi kwiga, bikadufasha gutuma twiga neza cyane.

Kwiga ni byiza cyane kuko bituma ujijuka, bigatuma ugera kuri byinshi cyane wifuza, tubifashijwemo n'ishuri rikuru ry'u Rwanda rifite inyubako nziza cyane aho abanyeshuri bataha ndetse n'aho bigira n'aho bakorera amasuku n'imihanda myiza cyane.

Kwihangira umurimo ni byiza cyane harimo nk'ubwubatsi, ububaji, inyubako nini cyane irimo ibikoresho byiza cyane ameza, intebe nyinshi zikomeye cyane.

Inyubako nziza cyane irimo akabati karimo imfashanyigisho zigiye zitandukanye, izirimo iz'umutuku, iz'umweru, iz'icyatsi ndetse n'iz'umuhondo.

Ubutaka bunini cyane burimo inyubako, yubatse cyane, ifite amarangi y'umukara n'ay'umuhondo, ikikijwe n'ibiti birebire n'ibigufiya, biduha umwuka duhumeka, ubuzima bukagenda neza.

Ubutaka bunini cyane burimo inyubako nini cyane yubatswe mu buryo bumeze neza ifite amarange y'umuhondo, inzugi z'umutuku isakaje amabati akomeye cyane ikikijwe n'ibiti.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu, aho baharanira kuduha ibikoresho bituma ubumenyi bwacu bwiyongera. Inyubako nini cyane y'isomero, harimo ibitabo bitandukanye: iby'icyatsi, iby'umuhondo n'iby'umweru.

Twese tugire isuku yaba aho turara cyangwa aho tuba cyangwa tugenda, kuko isuku ari ingenzi ku mubiri wacu. Inyubako nziza cyane iteye amarangi y'umuhondo imyenda imanitse iy'umweru, iy'umuhondo n'amavuta yo kwisiga.

Igihugu cyacu kimaze gutera imbere, kuko hamaze kugeramo ibikorwa remezo byinshi cyane kandi byiza, ubutaka bunini cyane burimo mu muhanda mugari, uri kugendamo abantu bambaye ubururu, ukikijwe n'ibiti birebire cyane n'inyubako.

Ubutaka bunini cyane bwubatseho inyubako ikomeye cyane ifite amabara menshi atandukanye, ay'icyatsi, umuhondo ihagazeho abantu batatu umwe yambaye ubururu abandi bambaye umukara baje kwiga.

Ubutaka bunini cyane burimo inyubako nyinshi zigeretse kane zifite amabati y'umutuku, imihanda myiza y'imikara, ibiti byiza cyane birebire biduha umwuka mwiza ubuzima bwacu bukagenda neza.

Twese tugire isuku yaba aho tuba cyangwa aho twiga cyangwa aho dutuye cyangwa aho tugenda, kuko ari ingirakamaro kuri twebwe ndetse no muri rusange. Inyubako nini cyane, irimo intebe nyinshi zitandukanye zikozwe mu buryo bwiza cyane.

Iterambere rimaze kuba ryinshi mu gihugu cyacu nk'ubutaka bunini cyane burimo amazu menshi cyane yubatse neza, afite isuku, akikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye, ibirebire, ibigufi bifasha abantu bari muri iyo nyubako kubona umwuka mwiza bahumeka mu gihe ubuzima bwabo bukagenda neza.

Isuku igira isoko. Muze twese duharanire kugira isuku ku mubiri wacu kugira ngo tubungabunge ubuzima bwacu. Inyubako nziza cyane ifite amarangi y'umweru, irimo ibikoresho by'isuku n'amavuta yo kwisiga n'isabune, amavuta ari mu icupa ry'umuhondo ari mu icupa ry'umutuku,..

Isuku ni isoko y'ubuzima, icyumba kinini giteye gisize amarangi y'umweru, mu madirishya hamanitswemo ibitambaro bifite ibara ry'ubururu n'umweru, intebe nziza zifite ibara ry'umukara,

Ubutaka bunini burimo inyubako yubatse mu buryo bwiza cyane ifite irange ry'umuhondo, inzugi z'umuhondo, amabati y'umutuku.

Uburezi bukomeje guhabwa agaciro mu gihugu cyacu, aho igihugu cyubatse ishuri rikuru riherereye i Huye, ririmo inyubako nziza cyane igeretse gatanu irimo ubusitani bwiza cyane.

Dukomeze guha agaciro kwiga kuko bidufitiye akamaro mu buzima busanzwe. Nk'inyubako nini cyane y'ishuri rikuru ry'u Rwanda rifite ubusitani bwiza cyane, amabuye meza cyane arikikije.

Ubutaka bunini cyane burimo ibikorwa remezo, amazu meza yubatse neza asakaje amabati y'umutuku, ubusitani bwiza cyane burimo ikigega cy'umukara, imyenda yanitse y'umweru n'amapantaro y'ubururu.

Uburezi bukomeje gutera intambwe mu gihugu cyacu. Nk'ubutaka bunini cyane burimo inyubako nyinshi, nziza, zubakishijwe amatafari akomeye cyane, zifite amarangi y'umuhondo, amabati y'umutuku n'ay'umweru.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, tubifashijwemo n'ishuri rikuru ry'u Rwanda riduha uburezi bwiza cyane, inyubako nziza cyane irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, za mudasobwa n'abantu benshi cyane.

Ubutaka bunini cyane burimo inyubako nyinshi cyane zateganyirijwe gukorerwamo ibikorwa bitandukanye, iriho abantu benshi cyane, abambaye umweru, umukara, icyatsi.

Ubutaka bwiza cyane burimo inyubako nziza cyane n'ibikorwa byiza cyane, umuhanda munini cyane, ibiti, amazu asakaje amabati y'umutuku, ibirangantego byerekana ibiri muri icyo kigo.

Inyubako nini cyane iteraniwemo n'abantu benshi cyane, abagabo n'abagore, bambaye imyeru, umutuku, umuhondo, umukara, bafite mudasobwa, bari mu nyubako nziza cyane.

Dukomeze kongera ubumenyi dufite, kuko ubumenyi ari bwiza cyane mu buzima busanzwe. Inyubako nini cyane irimo: imfashanyigisho, ibitabo by'ubururu, umuhondo, icyatsi, akabati kanini cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bumeze neza, irimo akabati karimo imfashanyigisho zigiye zitandukanye ubururu, umuhondo, icyatsi n'umweru.

Inyubako nini cyane, yubatswe neza, iteye amarange y'umuhondo, amatara y'umweru, parafo y'umweru, intebe nziza cyane, ameza yo kwandikiraho, ikibaho cy'icyatsi n'icy'umweru.

Inyubako nini cyane yubakishijwe amatafari akomeye, harimo ibikoresho by'ameza, intebe bicaraho, iz'ubururu, umutuku, icyatsi n'ameza y'umweru.

Inyubako nziza cyane, yubatswe mu buryo bumeze neza, ifite amarange y'umuhondo, amadirishya y'umweru, harimo inkweto nyinshi iz'icyatsi, iz'umutuku ndetse n'iz'umuhondo.

Iterambere rikomeje kwiyongera turifashijwemo na leta yacu y'u Rwanda, aho ubutaka bunini cyane burimo inyubako nziza cyane ifite amarangi y'umuhondo, umuhanda mugari urimo imodoka y'umweru n'iy'umutuku.

Ikoranabuhanga rikomeje kuduteza imbere, inzu nini cyane irimo ibikoresho bitandukanye, ameza manini, intebe nyinshi iz'ubururu n'iz'umuhondo, ikibaho cyanditseho ibyo kwiga.

Ikoranabuhanga rimaze gutera imbere mu gihugu muri rusange, aho umuntu asigaye akenera serivisi akayikorerwa byihuse, bityo rero muze twese twige ikoranabuhanga kuko ridufitiye akamaro.

Ubutaka bunini cyane burimo ibikorwa byiza cyane nk'inyubako ndende, iriho amabati y'umutuku n'ubusitani bwiza cyane burimo ibiti birebire n'ibigufiya n'imihanda myiza cyane.

Ibyo dukora byose kugira ngo bigende neza tuba twabifashijwemo n'imana n'inyubako nini cyane irimo abantu benshi cyane bari gusenga bambaye imyeru, imikara n'ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Inyubako nini cyane yubatswe neza ifite amarangi y'umweru, akabati keza cyane babikamo ibikoresho, uburiri bwubakishije igitanda cy'icyuma buriho amashuka atukura n'umwenda w'imbere utukura n'amavuta yo kwisiga ari ku meza.